Abantu benshi bahagaze imbere y'akazu ka MTN, kubabatse mu mabara y'umuhondo, yanditseho ikirango cy'amabara manini yanditse mu cyapa, ijambo MTN. Harimo umu agenti ubafasha.

Abantu batatu bicaye imbere hari amazi hari n'amaterefone yabo, inyuma yaho bicaye hari ibyapa byanditseho Aitel mabara y'umutuku n'umweru.

Umutaka w'abakozi ba Airtel aho aba ajenti babo bicara ndetse bagakorera bigaragaza ko batanga amayinite ndetse na megabayiti n'ibindi bitandukanye, serivisi za Airtel iyo ubonye ikirango cy'umutuku cyanditseho Airtel uhita ukimenya.

Ubworozi bw'inkoko, zisa umweru, zifite ibirokoroko by'umutuku, hagiye harimo udukoresho two kuriramo, dusa umweru, turiho ibara ry'umutuku, harimo n'umuntu wambaye imyenda y'icyatsi.

Abantu bicaye ahantu hamwe, harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda idasa, higanjemo abambaye, imyenda y'ubururu n'umukara.

Agakarito karimo igikoresho bakoresha birukana imibu mu nzu. Kaba gashushanijeho uwo muti ndetse baragafata bakagapfundura, bagakuramo uwo muti.

Urusengero rwubatse rwubakishije amabati y'umutuku, rukaba ruteye irange ry'umweru, rufite gati irimo umukara n'umweru, imbere hakaba hakoze hasimase aho abantu banyura.

Abantu bahagaze imbere y'urusengero, harimo abagabo bambaye amakanzu, abakuru b'itorero hakaba n'abanyetorero babiri, bagiye bahagaze hagati y'abakuru b'itorero bambaye amakanzu.

Abantu benshi bicaye ahantu ho kwiyakirira. Bari mu nama cyangwa se mu bindi bikorwa. Hari abambaye amakoti y'ubururu, intebe bicayeho ni izo kwegamirwa zifite ibara ry'umweru.

Inyubako ndende munsi hari inyubako imwe, hejuru yayo hakaba indi, imbere hari imodoka itagaragara neza, ubasha kubona inyuma, inyubako iri mu mabara y'umweru ku mpande hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ibitanda byo muri hoteri abakiriya baryamaho igihe basabye aho kuryama, ibitanda bishashe bifite imisego, hakaba hari n'intebe zo kwicaramo baganira.

Umugabo wambaye ishati y'umweru jire y'umukara n'ipantaro y'umukara, wambaye n'agapfukamunwa ufite ikirahure mu ntoki kirimo fanta, ahereza umukiliya agasigarana igikoresho mu ntoki cyo kubitwaraho.

Inzu ndende yubatse mu buryo bwa etaje, isakaje amabati y'umutuku, ifite geti y'umukara, aho abantu baza kurara igihe badafite ahandi ho kurara cyangwa se byabaye ngombwa ko bacumbikisha, iyo nzu akaba ari hotel cyangwa se moteri.

Inzu yubatse imbere hari amabendera ndetse n'ibiti by'indabo bisa neza by'ubwoko butandukanye aho abantu bakeneye aho kurara baza n'abakeneye icyo kunywa bakaza kugifata.

Inyubako nini ya hotel, imbere hari ubwogero bw'abantu bahasohokeye baje kuhishimira, impande y'ubwo bwogero bwo kwiyuhagirariramo hateye indabo ndetse hari n'aho kwicara.

Inyubako ya etaje, iri imbere y'umuhanda, igeretse kabiri iteye amarangi, arimo umweru n'umuhondo, hasi hari jaride kandi hari umuhanda uriho ibara ku ruhande rya pinki.

Isoko ry'ibintu ririmo umwana muto wambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'inkweto z'ubururu za tuvugane, wikoreye umusambi. Hakurya ye hari imyenda icurujwe imanitse ku biti bacururizaho mu isoko.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko aho bazana ibicuruzwa bitandukanye bakuye hirya no hino harimo insenda, bakazana mu isoko bakabiha abatabifite, bakabaha amafaranga harimo umugabo ubicuruje.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo arenze aho abanyamaguru bambukira, ahetse umuntu w'umugore nawe yambaye kasike, n'umumotari yambaye kasike.

Umumotari wicaye kuri moto, yambaye ijiri y'akazi na kasike mu mutwe ,afite n'indi kuri moto yo gutwara abagenzi.

Ibinyabiziga mu muhanda imbere hari inzu z'ubucuruzi zihagazeho, abantu hari ibinyabiziga nk'imodoka, moto iriho abagenzi n'abamotari bashinzwe gutwara abantu.